Inzu mbera byombi harimo abantu benshi cyane bahagaze, ubona ko bishimye bari gukoma amashyi, imbere ya buri wese ku meza yicayeho hakaba hari icupa ry'amazi, kandi hakaba hari na mudasobwa.

Unzu mbera byombi aho bigaragara ko hateraniyemo abayobozi batandukanye, abo mu nzego z'umutekano za polisi ndetse n'iza gisirikare, hakaba buri wese afite ikayi ari kwandikamo ibiri kuvugirwa imbere.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abantu benshi banyuranye, aho bigaragara ko harimo umudamu bigaragara ko afite akanyamuneza, ndetse n'abandi bagabo bigaragara ko bari kubiganiraho ibiganiro bahawe, kandi buri wese imbere ye hakaba hari icupa ririmo amazi.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye, ndetse ukaba ubona ko n'urubyiruko rurimo. Hakaba harimo n'inzego zishinzwe umutekano, imbere hakaba hari abayoboye ikiganiro, bigaragara ko abari kumva ikiganiro babateze amatwi. Kandi hakaba harimo n'ibyapa biranga ibyo bitabiriye.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye, aho bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro kandi buri wese akaba afite urupapuro rwo kwandikaho ibyavugiwe mu nama. Hakaba hari ibyapa biranga ibyo bajemo.

Inzo mberabyombi aho bigaragara ko harimo umudamu uri imbere ufashe indangururamajwi bigaragara ko ari gutanga ikiganiro, imbere ye hakaba hari na mudasobwa inyuma ye hakaba n'icyapa kiranga ibyo barimo.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye. Bakaba bicaye ku ntebe. Ndetse ku meza yabo hakaba hari icupa rigiye ririmo amazi. Inyuma hakagaragara n'abandi bantu bari gufata amajwi ndetse n'amashusho. Hakaba hari n'abantu bari kubaha ikiganiro bicaye imbere.

Umudamu ufite indangururamajwi, bigaragara ko ari gutanga ikiganiro, mbere ye hakaba hari telefone nini ngendanwa ndetse n'icupa ririmo amazi, n'agatabo yandikamo ibyavugiwe mu nama; akaba yegeranye n'undi na we ufite telefone ngendanwa ebyiri, akaba afite n'ahantu ari kwandikamo ibiri kuvugirwa mu nama, na we imbere ye hakaba hari icupa ririmo amazi, bigaragara ko ari ikiganiro bari gutanga.

Imbaga y'abantu benshi cyane batandukanye hivanzemo urubyiruko ndetse n'abakuze bake bakeya aho imbere y'abo bantu hari umukozi ushinzwe umutekano ariwe polisi yambaye impuzankano y'umwenda w'akazi umuranga imbere y'abantu bahari hakaba hari icyapa kiranga ibyo bajemo.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi b'igihugu batandukanye ndetse hakaba harimo n'umushinwa, aho bigaragara ko buri wese imbere ye hari icupa riteretsemo amazi, bikaba bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kuha ikiganiro.

Inzi mberabyombi bigaragara ko hicayemo abantu bari kuganira, bikaba bigaragara ko umwe ahagaze kuruhande rumwe n'undi ahagaze, akaba hari umukobwa bigaragara ko afashe indangururamajwi ari kuvuga undi akaba yicaye ari kwandika.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye, aho bigaragara ko umwe afashe indangururamajwi ari kubwira abaje kumva iyo nama ndetse kandi buri wese imbere ye, hakaba hari telefoni ngendanwa ndetse n'agatabo yandikamo ibyavugiwe mu nama.

Mbera byombi bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye aho bigaragaramo ko harimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kandi kuri buri meza hakaba hari icupa ririmo amazi kandi buri wese akaba afite ikaye ngendanwa ari kwandikamo ibiri kuvugirwa mu nama.

Imbaga y'abantu benshi cyane bigaragara ko abiganjemo ari urubyiruko, bakaba hari umuntu uri kubaha ikiganiro uri imbere bamuteze amatwi, inyuma hakagaragaramo n'abandi bantu bahagaze, inyuma hakaba hari ibara risa umuhondo.

Ibibera byombi bigaragara ko hicayemo abayobozi batandukanye. Bakaba bicaye mu gice gihera imbere. Imbere ya buri wese hakaba hari icupa ririmo amazi ndetse n'igikoresho ndangururamajwi. N'agakayi ko kwandikamo ibyavugiwe mu nama. Izindi ntebe zisigaye uka ubona ko nta bantu bazicayemo.

Inzu mberabyombi bigaragara ko iteraniyemo abayobozi batandukanye, aho bicaye ku ntebe zisa umukara kuri buri meza hakaba hagiye hari icupa ry'amazi, ndetse na mudasobwa rikaba bigaragara ko ari ikiganiro bari guhabwa, kandi buri wese akaba ari kwandika ibyavugiwe muri icyo kiganiro.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abantu benshi cyane, aho ubona ko harimo n'inzego z'umutekano kandi hakaba harimo n'ibyapa biranga ibyo bari gukora, bikaba imbere hari umuntu uyoboye ikiganiro.

Umudamu munini cyane bigaragara ko afite indangururamajwi azamuraye ikiganza, bigaragara ko ari gutanga ikiganiro, hakaba hari abamukurikiye bicaye mu ntebe, bigaragara ko bafite n'aho bari kwandika ibyo ari kubabwira kandi bamwe bamuteze n' amatwi.

Inzu mberabyombi. Aho bigaragara ko harimo abayobozi mu nzego z'igihugu batandukanye. Hakaba harimo n'abantu atari abanyarwanda bigaragara ko ari abirabura. Kuri buri wese imbere ku meza yicayeho hakaba hariho ibipapuro ndetse n'icupa ririmo amazi. Bikaba bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi b'inzego z'igihugu batandukanye, aho bigaragara ko bateze amatwi uri kubaha ikiganiro kandi kuri buri wese imbere ye hakaba hagiye hari mudasobwa ndetse n'icuparimo amazi.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye, aho buri wese imbere ye ubona ko hari igitabo ngendanwa yandikamo ibyavugiwe mu nama, kandi hakaba hagiye hari na mudasobwa, hakaba hari n'amacupa agiye arimo amazi.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye, ukaba ubona ko ari abayobozi mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda, aho hari umuntu uri imbere uri gutanga ikiganiro hakaba hari n'ibyapa biranga ibyo barimo.

Inzu mbera byombi bigaragara ko harimo imbaga y'abantu benshi; bambaye impuzankano, banambaye amakarita aranga akazi bakora, imbere yaho hakaba hari intebe nziza cyane ndetse n'ameza agiye arambitseho ibitabo ndetse n'icupa riteretsemo amazi.

Inzu mbera byombi bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye, aho bigaragara ko ku meza hagiye hari icupa ririmo amazi ndetse hakaba n'umuntu uhagaze agenda ari kwandika mu ikayi, hakaba hari n'ibyapa biranga ibyo bari gukora.

Inzu mberabyombi, bigaragara ko harimo' abayobozi batandukanye mu nzego z'igihugu, aho kuri buri wese imbere ye hagiye harimo icupa, ririmo amazi ndetse akaba afite n'impapuro ngendanwa, zandikwaho ibyavugiwe mu nama.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abantu benshi, ariko bikagaragara ko abiganje ari urubyiruko, buri wese akaba afite ikaramu n'ikayi ari kwandika ibiri kuvugirwa mu nama, bigaragara ko hari umuntu uri kubaha ikiganiro, kandi kuri buri wese imbere ye ku meza hakaba hari icupa ririmo amazi.

Inzi mberabyombi, bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye, kandi kuri buri wese aho yicaye hakaba hari icupa riteretsemo amazi ndetse n'irindi ririmo ji, inyuma yabo hakaba ari umuntu ufite igikoresho gifata amajwi ndetse n'amashusho, kandi buri wese akaba ari kwandika ibyavugiwe mu nama.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye, aho bigaragara ko hari abafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'abandi bafite telefone ngendanwa nini mu ntoki ndetse n'ufite ikaramu bigaragara ko ari kwandika.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo abantu benshi ,abo bantu ukabona ko hari umuntu uri kubaha ikiganiro, aho bigaragaramo ko hari umuntu uhagaze uri gufata amashusho ndetse n'amajwi, ukaba ubona ko hari abafite mudasobwa ndetse na telefone nini ngendanwa.

Inzu imberabyombi bigaragara ko hari gutangirwamo ibiganiro, aho hagaragaramo umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi. Imbere ye hakaba hari urupapuro ari gusomamo ndetse na mudasobwa na telefone nini ngendanwa. N'abandi buri wese imbere ye hakaba hari mudasobwa. Hakaba hari ibyapa biri kwerekana ibyo barimo.

Inzu mbera byombi bigaragara ko harimo urubyiruko, aho bambaye impuzankano ndetse kuri buri mezi hakaba hari icupa ririmo amazi, bikaba bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro.

Inzu mberabyombi bigaragara ko hateraniyemo abayobozi batandukanye b'inzego z'igihugu, aho buri umwe wese afite agatabo ko kwandikamo ibyavugiwe mu nama kandi imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi ndetse n'indangururamajwi.

Inzu mbera byombi bigaragara ko icyamo abantu benshi batandukanye hakagaragaramo umuntu uhagaze uri gutanga ikiganiro hakaba n'abandi bicaye buri wese imbere ye akaba ari mudasobwa ndetse n'ikayi yandikamo ibyavugiwe mu nama kandi hakaba harimo n'icupa ririmo amazi.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi bo mu nzego z'Igihugu batandukanye, aho bigaragara ko ari ibintu bari kuganiraho. Imbere yabo hakaba mudasobwa ndetse bakaba bafite n'impapuro bari kwandikamo niba bari kuganira, kandi hakaba n'amacupa arimo amazi.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi bo mu nzego z'igihugu batandukanye, aho bigaragara ko kuri buri mezi ahagiye hari icupa riteretsemo amazi ndetse na mudasobwa, kandi buri wese akaba afite agakayi yandikamo ibyavugiwe mu nama.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi benshi batandukanye bo mu nzego z'igihugu, aho buri wese imbere ye hari icupa ririmo amazi ndetse akaba afite n'ikayi, ari kwandikamo ibyavugiwe mu nama, hakaba harimo na bamwe bagiye bafite mudasobwa ndetse na telefoni nini ngendanwa.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye, hakagaragara abantu bicaye imbere bari gutanga ikiganiro, aho buri wese imbere ye hari icupa ry'amazi, hakaba hari n'ibyapa biranga ibyo bari gukora.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abantu benshi banyuranye, aho bigaragaramo ko higanjemo abadamu ndetse n'abagabo kandi kuri buri umwe wese ku meza ye hakaba hari icupa ririmo amazi ndetse bakaba bafite na mudasobwa imbere yabo. Hakaba harimo n'abadamu bigaragara ko bambaye amarineti bicaye ku ntebe zibanza.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye, hakaba harimo n'abagiye bambaye impuzankano aho bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro hakagaragaramo n'undi muntu uri gufata amajwi n'amashusho.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi b'inzego z'igihugu batandukanye. Aho bamwe bambaye impuzankano, kandi kuri buri wese imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi, bikaba bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro.

Inzu ubona ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko imbere hari umugabo uri kureba abantu bahaza, kandi ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

Inzu mberabyombi bigaragara ko yicayemo abantu batandukanye, aho hagaragara ko buri wese imbere ye hari igikoresho ndangururamajwi ndetse hakaba hari na mudasobwa hakurya hakaba hari ibitabo bigaragara ko hari umuntu kugenda abifataho asoma.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi bigaragara ko ku maso ye yishimye. Imbere ye hakaba hari mudasobwa bikagaragara ko ari kwandika ndetse n'amadarubindi ateretse hejuru y'impapuro, hakaba hari n'agakombe gateretsemo indabo.

Inzu ubona ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko hari icyapa kiranga ibikorerwa muri iyo nzu, hakurya hakaba hari ibyuma byabugenewe mu gutwara umuriro w'amashanyarazi buwuvana mu gace kamwe biwujyana mu kandi aribyo mu ndimi z'amahanga bita mapoto, ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Abantu benshi cyane bigaragara ko bari kureba umuntu uri imbere yabo, aho bigaragara ko uwo muntu ku meza ye hariho za mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu mashanyarazi, hakaba hari n'umwana mutoya imbere ubona ko ari kureba.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ari cyo mu ndimi z'amahanga bita rwanda reveni otoriti tagisi, sitatisitike, bikaba bigaragaza ko bari kwamamaza imbuga za yo uburyo gikora.

Amazu menshi bigaragara ko akorerwamo serivisi zitandukanye, aho tubasha kubona ko, hakaba hari icyapa cyerekana ko hakorerwa serivisi z'irembo, hakurya hagaragara n'ahandi hatuwe n'abantu benshi, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Mudasobwa aho bigaragara ko harimo ibintu byanditsemo, bakaba bakwereka ko ari uburyo ushobora gukora ushaka serivisi z'irembo, bakaba babyita byikorere.

Inzu mberabyombi igaragara ko harimo abantu benshi batandukanye, aho bo harimo n'abambaye amakarita aranga akazi barimo ndetse hakaba n'ibyapa biranga ibiri kuhabera.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko hari n'abantu benshi batandukanye, bikaba bigaraga ko ari urubyiruko buri wese imbere ye hakaba hari mudasobwa, bakaba bose bambaye impugakano.

Inzu z'ubucuruzi aho bigaragara ko zikorerwamo serivisi zitandukanye aho tubasha kubona akaba arikazu bigaragara ko gatangirwamo na serivisi z'irembo kandi ku nkengero z'umuhanda hakaba ari icyapa gikoreshwa ku muhanda kerekana ko imodoka zihinyura zidakwiye kurenza umuvuduko wa kilometero mirongo itandatu mw, isaha ikirango n'umukara ubuso n'umweru umuzenguruko n'umutuku ishusho nuruziga.

Inzu mberabyombi byombi bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye ubona ko abiganje ari urubyiruko, aho ubona bagiye bicaye mu matsinda y'abantu uka ba ubona ko bari kuganira ku biganiro bitandukanye.

Abantu benshi bigaragara ko higanjemo urubyiruko, bakaba bafite telefoni nini ngendanwa, bose ukaba ubona ko bazihugiyemo ndetse n'ufite mudasobwa. Aho hantu bikaba bigaragara ko ari mu rwakiriro.

Ukwezi ko gushimira abasora ku nshuro ya makumyabiri rimwe, bakaba bakwereka ko ukwezi ko gushimira abasora mu umwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, saba fagitire ya ebiyemu wubake u Rwanda rushya twifuza.

Rwanda bodi agensi, hakaba hari ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, bakaba bari kukwereka itariki cyabereyeho ndetse n'umunsi n'amasaha.

Ibikoresho byifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi, biwukura mu gace kamwe biwujyana mu kandi. Hakaba hari n'ibyifashishwa mu gufata amajwi n'amashusho. Ikirere kikaba gisa ubururu, ndetse n'ibicu byiganje umweru.

Inzu nini ubona ko ikorerwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko ku gice turi kubona n'amaso hari umuntu uri kuhajya wambaye agakapu mu mugongo, bikaba bigaragara ko kuri uwo muryango hakorerwamo serivisi zijyanye n'irembo, hejuru hakaba hari icyapa cyerekanamo ibihakorerwa.

Ibikoresho byinshi cyane byifashishwa mu buzima bwa buri munsi aho ibyo bikoresho byifashishwa mu gutanga gaze ifasha abantu mu guteka, hakaba hari n'icyapa kiranga aho ibyo bikoresho bibarizwa ndetse na nimero wahamagaraho z'ababicuruza.

Ikigo cyitwa arajibi mu ndimi z'amahanga Rwanda gavameti bodi, hakagaragaraho ifoto irimo abantu beshyi batandukanye ubona ko bari mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu.

Akazu ubona ko kubatse mu buryo bwiza, ukaba ubona ko hatangirwa serivisi zitandukanye, imbere hicayemo abantu bambaye impuzankano buri wese mbere ye hakaba hari mudasobwa, kandi hakaba hari n'igipipeiri kirimo amazi yo kunywa, kuri iyo nzu akaba hari n'ibyapa biranga ibyo bakora.

Ibikoresho bitandukanye isakazamajwi ndetse n'amashusho, aho bigaragara ko ari byinshi cyane, akaba ari birebire mu bujya hejuru bikaba bifite ibisahane ku mpande byifashishwa mu gutanga amazo, ndetse no mu gufata amajwi ikirere kikaba gisa ubururu hakaba hari n'ibice by'umweru. Ibyo bikoresho sakaza majwi n'amashusho bikaba bifite amabara y'umutuku n'umweru.

Telefone nini ngendanwa, aho bigaragara ko hari umuntu uri kuyikoresha ayirebamo ndetse no hakurya ye hakaba hari abandi bantu, hakaba hari n'igiti cy'ikindabo kigaragara.

Igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu gusakaza amajwi n'amashusho, akaba ari kirekire cyane kikaba gifite ibisahane bigifasha muri uwo murimo, ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu.

Igikoresho cyifashishwa mu itumanaho, aho gifite amabara atandukanye, harimo ay'umutuku n'umweru, kikaba gifite ibintu by'ibisahane ku mpande, bigifasha gukurura amashusho ndetse n'amajwi.

Ahantu ubona ko hari ibicuruzwa bitandukanye kandi ukaba ubona ko imbere hari andi mazu atangirwamo serivisi zitandukanye hakaba hagaragaramo n'amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi ava mu gace kamwe ajyamo kandi.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, ku nkengero zahobari inzu zitandukanye z'ubucuruzi, ukabona ko hagiye hariho n'ibyapa biranga ibikorerwamo, hakaba hari igiti gitwaye insinga nyinshi ziva mu gace kamwe zijya mu kandi, kandi ukabona ko hari n'inzu, ubona ko iri kubakwa itaruzura.

Ipironi rinini cyane ryifashishwa mu gutwara insinga ziva mu gace kamwe zijyamo kandi zitwaye amashanyarazi, aho bigaragara ko ku mpande zayo hari ibiti binini cyane, biri ku musozi ikirere kikaba gisa ubururu, gifite n'ibicu byiganje umweru.

Ibyatsi byinshi cyane, ibiti bikuze, aho ubona ko bikikije icyuma gitwaye umuriro w'amashanyarazi ari cyo mu ndimi z'amahanga bita ipironi. Hakaba hari igikoresho cy'amashanyarazi cyifashishwa mu kongera umuriro cyangwa kikawugabanya aricyo mu ndimi z'amahanga bita transifoma.

Ipironi nini yifashishwa mu gutwara insinga z'amashanyarazi ziva mu gace kamwe zijya mu kandi, aho hagaragara n'ipoto rifite itara rimurikira mu muhanda. Hasi hakagaragara indabo nini zikuze cyane. Hejuru mu kirere hakaba hari ibicu byiganje umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukore mu byerekezo byombi aho hagaragaramo moto itwaye umugenzi, ndetse n'icyapa kiri ku muhanda cyerekana umuvuduko ikinyabiziga kitagomba kurenza wa kilometero mirongo itandatu mu isaha, cyangwa n'umukara wabuso niumweru umuzenguko n' umutuku, ishusho n'impande n'uruziga hagaragara n'amazu atangirwamo serivisi zitandukanye ndetse n'ay'ubucuruzi hakaba n'ipoto itwaye insinga z'amashanyarazi ava mu gace akajya mukandi.

Inzu zitandukanye bigaragara ko zituwemo n'abantu ndetse n'izitangirwamo serivisi zitandukanye aho hagaragaramo ifoto yifashishwa mu gutwara insinga z'amashanyarazi ava mu gace kamwe ajya mu kandi iri hejuru ikirere kikaba gifite ishusho ifite ibicu byiganje umwe.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivise zitandukanye aho kuri buri nzu hagiye hariho icyapa kiranga ibikorerwamo, hakaba hagati yazo hari icyuma cyabugenewe gitwara insinga z'amashanyarazi ziva mu gace kamwe zijya mu kandi, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'ubururu.

Ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi buwuvana mu gace kamwe buwujyana mu kandi ndetse mu muhanda hakaba hari imodoka nini zitwarira abagenzi hamwe aho bigaragara ko ku mpande hari abagenzi bari gutega imodoka ndetse n'umumotari hakurya hakagaragara amazu atuwemo n'abantu ndetse n'ibiti bikuze cyane.

Umuhanda nyabagendwa bigaragaza ko u ikoreshwa mu byerekezo byombi kuhe ry'umuhanda akaba ari ibiti binini ndetse ku ruhande rw'uryo hakaba hari ibyuma byabukene byabugenewe mu gutwara insinga zimwe ziva mu gace kamwe zijya mu kandi, ikirere kikaba gisa ubururu bwiganjwemo umweru.

Ibiti byinshi cyane bikuze, aho hagaragaramo igikoresho cyifashishwa mu mashanyarazi cyifashishwa mu kongera umubiri cyangwa kuwugabanya aricyo mu ndimi z'amahanga bita tarafoma ikirere kikaba gisa ubururu ndetse n'ibicu byiganje umweru.

Umuntu ari kugenda ndetse n'undi ugeze imbere ari gutambuka banyura mu bice bitandukanye, aho hagaragara ibiti bikuze cyane, hakaba hari n'icyuma kinini cyabugenewe mu gutwara insinga z'amashanyarazi ziwuvana mu gace kamwe ziwujyana mu kandi, aricyo mu ndimi z'amahanga twita ipironi.

Icyuma cyabugenewe mu gutwara amashanyarazi ari cyo mu ndimi z'amahanga bita ipironi, aho bigaragara ko gitwaye umuriro w'amashanyarazi kiwukuwe mu gace kamwe kiwujyana mu kandi. Hakaba hariho insinga nyinshi zinyuranye kandi hasi yaho hakaba hari ibiti bikuze ndetse n'ibyatsi byinshi. Ikirere kikaba gifite ishusho isa n'ubururu ndetse n'ibicu by'umweru.

Umuhandada nyabagendwa bigaragara ko harimo imodoka zitwarira abantu hamwe ku nkengero z'umuhanda hakaba ari amazu acururizwamo kuri buri nzu hakaba hari icyapa kiranga ibikorerwamo hakaba ku mpande hari ahantu haparitse imodoka ndetse n'abantu benshi baje kugura ibicuruzwa bitandukanye ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Indabo nyinshi cyane bigaragara ko ari nkuru ndetse n'ibiti byakoze byegiye hejuru hakagaragaramo n'igikoresho cy'amashanyarazi cyifashishwa mu kongera umuriro cyangwa kugabanya aricyo mu ndimi z'amahanga bita tarasifoma.

Amazu menshi cyane bigaragara ko atuwemo n'abantu, hagati y'amazu hakaba hagiye hari ibiti byinshi cyane bitandukanye, hakaba hagaragara n'ibiti bitwaye insinga z'amashanyarazi ava mu gace kamwe ajya mu kandi, ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru hakurya hakagaragara imisozi y'amashyamba.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko harimo amamoto atwaye abagenzi ndetse n'abanyayamaguru bari kugenda n'amaguru, hakurya hagaragaramo amazu menshi atuwemo n'abantu ndetse n'ibiti binini cyane, hakaba hari n'ibikoresho byifashishwa mu gutwara insinga z'amashanyarazi ava mu gace kamwe ajya mu kandi aribyo amapoto.

Icyuma kinini cyane mu ndimi z'amahanga akaba aricyo bita ipironi kikaba cyifashishwa mu gutwara insinga zimwe ziva mu gace zijya mu kandi aho ziba zitwaye umuriro w'amashanyarazi, bikagaragara ko hari abatekinisiye bari hejuru bari kugenda bahuza izo nsinga ikirere kikaba gisa ubururu kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

Iznu ubona ko zubabakanye ubuhanga, aho bigaragara ko zitangirwamo serivisi zitandukanye, ku mpande zaho hakaba hari ibyuma byabugenewe mu gutwara insinga z'amashanyarazi ziva mu gace kamwe zijya mu kandi aribyo mu ndimi z'amahanga bita amapoto, ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho hakorya hagaragara n'izindi nzu zituwemo n'abantu. Hagati y'amazu hakaba hari ibiti byifashishwa mu gukurura umuyaga abantu bahumeka, hakaba hari n'ipiloni ryabugenewe ritwaye insinga z'amashanyarazi ava mu gace kamwe ajya mu kandi. Ikirere kikaba gisa ubururu ndetse n'ibicu byiganje by'umweru.

Ipoto itwaye insinga z'amashanyarazi ziva mu gace kamwe zijya mu kandi, aho hasi hagaragara amazu atuwemo n'abantu, hakaba hari ibisheke ndetse n'imvoka n'amasina, ahinze bihinze mu murima.

Ikizingo ck'insinga gitandukanye, ubona ko ahantu kiri ari ku batata ukabona ko nta byatsi byahameze, ukabona ko byifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi ziwukura mu gace kamwe ujya mu kandi.

Ikirere gisa ubururu ndetse n'ibicu byiganje umweru, aho hasi hagaragara ahantu hatuwe n'abantu benshi batandukanye, hakaba hazengurutswe n'indabo ndetse n'ibiti bigiye biri hagati y'ingo, hakagaragara n'icyuma cyabugenewe mu gutwara insinga z'amashanyarazi ziva mu gace kamwe zijya mu kandi, aricyo mu ndimi z'amahanga bita ipironi.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi uva mu gace kamwe ujya mu kandi ndetse hakaba hari n'ibyifashishwa mu kuwukupa, iyo bibaye ngombwa habayeho amakosa ahantu hatandukanye.

Amazu menshi atuwemo n'abantu aho bigaragara ko n'indabo zizengurutse ngaho nziza, ndetse hakaba n'igikoresho gikoreshwa mu mashanyarazi mu kongera umuriro ndetse kinawugabanya ariko cyo mu ndimi z'amahanga bita ngo taransifoma, hakaba hari n'ibiti binini bikuze cyane, ikirere kikaba gifite ishusho ifite ibicu byiganje umweru.

Inzu nini cyane, bigaragara ko hakorerwa serivisi zitandukanye, aho hagaragara icyuma cyabugenewekifashishwa mu gutwara w'amashanyarazi, ari cyo mundimi z'amahanga biti ipironi. Hakurya hagaragara amazu atuwemo n'abantu ndetse hagati hakaba hari n'ibiti ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho ku nkengero z'umuhanda hari inzu z'ubucuruzi, hakaba ari n'ahaparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'ibyuma byabugenewe mu gutwara insinga z'amashanyarazi, ava mu gace kamwe ajya kandi. Ikirere kikaba gifite ibice byiganje umweru.

Cyane. Ubona ko zubatse ku mbuga ngari. Aho bigaragara ko imbere y'izo nzu haparitse imodoka nyinshi zitandukanye. Hakaba hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ikirere kikaba gisa ubururu n'ibicu byiganje umweru.

Inzu nyinshi ubona ko zitangirwamo serivisi itandukanye aho hegamye umuntu wambaye impuzankano iranga akazi akora, imbere y'amazu akaba hari jaride irimo indabo zitandukanye hakaba hari n'abadamu bari kuganira, ikirere kikaba gifite ishusho isa umweruru.

Inzu nyinshi zitandukanye bigaragara ko hatangirwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko hari abantu bicaye hasi ndetse hakaba hari n'imbuga nini iteguye neza cyane, ikirere kikaba gisa ubururu n'ibicu byiganje umweru.

Inzu mberabyombi bigaragara ko hicayemo abantu bambaye impuzankano, imbere ya buri muntu hakaba hari mudasobwa ndetse akaba afite n'igitabo cyandikirwamo ibyavugiwe mu nama.

Imbuga ngari, bigaragara ko haparitsemo imodoka z'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'amazu akorerwamo serivisi zitandukanye, aho akantu kubabatse mu mbuga ngari kagaragaramo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Ikirere kikaba gifite ishusho isa uburu ndetse n'ibicu byiganje umweru

Imodoka z'ubwoko butandukanye ubona ko ziparitse ahantu hatandukanye, aho hantu hakaba hari icyapa kiranga ibihakorerwa, aho hagaragara ko hari umuntu uri kwinjira mu irembo rihari rikaba rifite ikimenyetso cyo guteranya, rigaragara ko aho hantu hari Kuruwa ruje, umuryango utabara imbabare.

Umuntu bigaragara ko ari kugenda mu muhanda akaba yambaye impuzankano bigaragara ko ari kujya ku kigo akorera, hakaba hari amazu atandukanye kandi hakaba hari n'ibiti by'indabo binini bikuze cyane, hakaba hari n'amatara amukira umuhanda ikirere kikaba gisa ubururu gifite n'ibice by'umweru.

Aazuu menshi cyane bigaragara ko atangirwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko hagati hanyuramo umuhanda. Kandi ku nkengero z'umuhanda hakaba iparitse imodoka z'ubwoko bumwe zisa. Hakurya hakagaragaramo umuntu ahagaze kandi hejuru y'inzu hakaba hari ikirango cyerekana ko aho hantu hakorera croix rouge, hakaba hagaragara n'ibendera ry'u Rwanda rihamanitse.

Amazu menshi atandukanye bigaragara ko atangirwamo serivisi zitandukanye. Aho ubona ko hari abantu bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bategereje serivisi zitangirwa aho ngaho.

Imbagukiragutabara bigaragara ko iparitse hamwe n'izindi modoka, hakurya hakaba hari indabo zikikije aho hantu, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Akayira nyabagendwa bigaragara ko aho hantu ari ikigo kihakorera, icyo kigo kikaba ari ikigo nderabuzima aho hagaragaramo abakozi baho bambaye impuzankano, hakaba harimo na jaride zirimo indabo z'ubwoko butandukanye.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu nama, hakaba hari umuntu uri kubaha ikiganiro, hakagaragaramo n'uwambaye impuzankano bigaragara ko ashinzwe umutekano, hakurya hakaba hari amasina menshi cyane.

Abantu bambaye impuzankano. Aho hagaragaramo ucunze umutekano ndetse n'ingorotwa. Akaba imbere hari umucamanza, iyo ngororwa bikaba bigaragara ko ari Kizito mihigo. inyuma ye hakaba bigaragara ko hari abandi bantu.

Umugabo munini cyane bigaragara ko yambaye impuzankano isa umutuku wivanze n'umweru ndetse n'umukara, aho bigaragara ko yambaye amadarubindi inyuma ye hakaba hari ishusho isa umweru.

Inzu mberabyombi, aho bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda, aho harimo umwe ufite indangururamajwi bigaragara ko ari gutanga ikiganiro, kandi hakaba hari n'ibyapa biranga ibyo barimo.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi bigaragara ko bambaye ibendera ry'u Rwanda, bikaba bigaragara ko ari abunzi, hakaba n'abaturage baje gutanga ibibazo byabo ngo babikemure, hakaba hari umudamu uhagaze ari gutanga ikibazo cye.

Umugabo wambaye impuzankano, akaba yambaye n'amadarubindi, akaba afite umusatsi uringaniye, hakurya hagaragaramo abantu bambaye impuzankano, bigaragara ko ari abashinzwe umutekano, abapolisi.

Abantu bambaye impuzankano ubona ko ari inzego zishinzwe umutekano, aho ubona ko hagati yabo hari umugabo bigaragara ko bafashe, inyuma yabo hakaba hari abandi bagabo bambaye impuzankano ndetse n'amakarita abaranga ku kazi kabo.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu hamwe aho bigaragara ko imbere hari umuntu uhagaze. Ndetse akaba hari no munzu umwe uhagurutse mu bantu bicaye ku gatebe k'abunzi. Aho imbere yabo hari ibitabo byo kwandikamo bigaragara ko ari gusoma. Ku mpande hakaba hari ibiti binini, bikuze cyane.

Abantu benshi bambaye impuzankano, bigaragara ko bazamuye ikiganza bari kurahira. Abo bantu ukaba ubona ko ari ingororwa, hakurya yabo hakagaragara ibiti binini bikuze cyane, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru.

Inzu mberabyombi bigaragara ko hicayemo abayobozi benshi batandukanye, igice cyiganje imbere kikaba kigaragara ko hicaye abacamanza bambaye impuzankano ibaranga, ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru n'ingofero zisa imikara, inyuma hakagaragaramo abandi bayobozi bambaye impuzankano batandukanye.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo umudamu ufite indangururamajwi ari gutanga ikiganiro, bikaba bigaragara ko abamukurikiye bateze amatwi, aho hantu hakaba hari n'ibyapa biranga ibikorwa barimo.

Abantu bambaye impuzankano bigaragara ko ari ingororwa. bakaba bicaye imbere y'inzu babamo. Hakaba hari n'igikoresho cyabugenewe kiri ku muryango ku ruhande, cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umugabo yambaye impuzankano bigaragara ko iyo mpuzankano ifite amabara atukura, ay'umweru ndetse n'ay'umukara, inyuma ye bikagaragara ko hasa umweru.

Abagabo batatu bigaragara ko uri mo hagati yambaye impuzankano, bikagaragara ko bari kwaka serivisi ahantu ndetse hakaba harimo n'umugabo uzamuye ikiganza ari kubaza ikibazo.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo abantu bambaye impuzankano, abo bantu ukaba ubona ko ari ingororwa, hakurya yabo bikagaragara ko hari umuntu uri kubaha serivisi, ari mu idirishya, uwo muntu numu umukobwa.

Inzu nini cyane bigaragara ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, aho bigaragara ko ari ikigo gishinzwe kurerera ingorororwa, hakaba hari ingorwa zambaye impuzankano zisa ndetse zanatwaye amajere hakaba hari n'abacunga ko bagenda.

Mbera byombi bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye ndetse igice kigaragara kikaba ari igice cyicawemo abacamanza bambaye impuzankano yabo, bakaba bambaye impuzankano z'umukara ndetse n'umweru kandi imbere yabo hakaba ari icupa ririmo amazi ndetse n'ibitabo bari kwandikamo hakaba n'ibyapa biranga ibyo barimo.

Inzu mberabyombi bigaragara ko yicayemo abantu bambaye impuzankano, bikagaragara ko ari ingororwa, buri wese akaba yicaye ku ntebe y'umukara kandi yambaye agapfukamunwa, inyuma yabo hakagaragaramo ucunze umutekano yambaye impuzankano y'akazi ke ,ndetse n'amatara ari kwaka.

Abantu bicaye ahantu hamwe bigaragara ko hari abacamanza bambaye idarapo ry'igihugu, hakaba harimouhagaze bigaragara ko ari kuburana, hakaba hari n'abandi bantu babateze amatwi akaba ari ibiti binini bikuze cyane ndetse n'ibyatsi bitohagiye.

Inzu mberabyombi harimo abacamanza bari kurahirira inshingano bahawe, bafashe ku ibendera ry'igihugu. Hakaba harimo imbere uri kubarahiza, wambaye impuzankano y'umutuku ndetse n'ingofero y'umukara.

Abantu bambaye impuzankano kandi bakaba bafite n'ibitabo bari gusomamo bigaragara ko bamwe ari abacamanza, undi akaba ari ingororwa, inyuma y'abo hakaba hagaragaramo n'abambaye impuzankano y'inzego zishinzwe umutekano, hakaba hari n'abaje kureba uko iyo ngororwa iburana.

Imbaga y'abantu benshi bamwe bagaragara bambaye impuzangano hakaba n'abandi bahagaze ku ruhande rumwe, aho bigaragara ko bamwe ari ingororwa abandi bakaba bazi kureba uko izo ngororwa ziburana, ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu, kandi hagaragara n'inyubako nini cyane ifite n'ibyuma ku mpande.

Inzu mbera byombi aho bigaragara ko harimo abantu bambaye impuzankano aho arimo abambaye ibisa umukara, n'abambaye ibijya gusa umweru bigaragara ko bamwe ari abacamanza abandi arigorororwa. Bikaba bigaragara ko inyuma hari umuntu ufite telefoni ngendanwa ari gufata amashusho ndetse n'amajwi.

Umugabo munini cyane w'inzobe, ubona ko yambaye impuzankano, ku mwenda we hakaba hari agakoresho ndangururamajwi kamufasha kuvuga neza, kandi bigaragara ko ari kuvuga.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi., aho bigaragaramo imodoka ntoya itwarira abagenzi hamwe ndetse ni moto ya polisi zishinzwe umutekano mu muhanda, hakurya bikagaragara ko hari ibiti binini ndetse n'amazu agiye yatuwemo n'abantu.

Umudamu ufite agakapu mu ntoki bigaragara ko ari kugenda mu muhanda nyabagendwa, hakurya ye hakaba hari inzu bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, hakaba hanari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda kandi hakaba hari n'ibiti bikuze. Ikirere kikaba gisa ishusho y'ubururu ndetse haniganje ibicu by'umweru.

Ikibuga ubona ko gikorerwaho ibizamini bya Leta byo gutanga uruhushya rwa burundu rw'ibinyabiziga, aho bigaragara ko ibinyabiziga byose bihari, haba ibya perime y'imodoka ndetse na perime ya moto.

Umukozi ubifitiye ububasha, yambaye impuzankano, akaba ari polisi ushinzwe umutekano mu muhanda, bigaragara ko ari kubuza ibinyabiziga bimwe na bimwe mu kugenda mu muhanda, inyuma ye hakaba hari abamotari batwara abagenzi ndetse n'imodoka ntoya zitwariye abagenzi hamwe n'inini, hakurya hakagaragaramo ibiti binini bikikije umuhanda ndetse hagaragaramo n'abambaye impuzankano bacunze umutekano.

Umupolisi wambaye impuzankano imuranda, aho bigaragara ko ari gukoresha igikoresho cyabugenewe mu kuzimya n'inkongi y'umuriro aho yateye. Iruhande rwe hakaba hari ibiti binini bikuze cyane by'indabo. Ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo imodoka y'inzego zishinzwe umutekano, arizo polisi m'indimi z'amahanga ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bikuze cyane hakaba hari n'agahanda kari kugendwamo n'umudamu ndetse n'umugabo we.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye, aho bigaragara ko baje kureba, inzego za polisi zishinzwe umutekano, ndetse n'izishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro iyo ifashe ahantu, bikaba bigaragara ko bari kubereka uburyo bakoresha bazimya umuriro bakoresheje ibikoresho byabugenewe, ku mpande hakagaragara imodoka yabo yabugenewe aho iparitse.

Abantu bambaye impuzankano bigaragara ko ari abapolisi bashinzwe no kujya kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, aho bigaragara ko hari abana benshi bari kureba ndetse n'ababyeyi babo bari kumwe, bakaba abapolisi bikaba bigaragara ko bari kugenda babereka ibikoresho bitandukanye.

Ikibuga bigaragara ko hari gutangirwamo ibizamini by'impushya zo gutwara moto, aho bigaragara ko harimo umupolisi wambaye impuzankano ari gukoresha ibyo bizamini, hakaba hari n'imodoka ntoya zitwarira abagenzi hamwe, hakaba hakikijwe n'ibiti binini cyane ndetse ikirere kika gifite ishusho yiganjemo ibicu by'umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi. Harimo abanyamaguru batandukanye bagenda ari benshi. Ku mpande zawo, hari amazu meza cyane, agaragara ko atangirwamo serivisi zitandukanye, kandi naho hatuwemo n’abantu benshi cyane.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye, imbere yabo hakaba hari indangururamajwi nyinshi zinyuranye ndetse hakaba hari n'icupa ririmo amazi, bigaragara ko ari umukandida wari uri kwiyamamaza wo mu ishyaka runaka.

Imbaga y'abantu benshi cyane bafite ibirango bya FPR, ubona ko bishimye cyane bazunguza amabendera ya FPR, hakagaragara umutwe mu ndimi z'amahanga twita CTU ushinzwe kurinda umukuru wacu w'igihugu perezida Paul Kagame.

Inzi mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye bo mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda, aho ku ntebe y'imbere hari umugabo uzamuye agatoki, bigaragara ko ari kubaza ikibazo k'uwahaye ikiganiro.

Abantu benshi batandukanye bari kunyuranamo, aho bigaragara ko hari n'umudamu ufite umwana amutwaye mu ntoki aho hantu bikaba bigaragara ko bari kujya mu matora ndetse n'abavayo hakaba hari icyapa kiharanga cyanditseho ngo twitabire amatora duhitemo neza.

Ikirangontego cy'inkotanyi zacu aho bigaragara ko harimo intare hagati ndetse hakagaragaramo n'intego nyamukuru z'inkotanyi, demokarasi, ubumwe, amajyambere. Ibirango by'inkotanyi hakagaragaramo umweru, umutuku ndetse n'ubururu.

Umwana umuntu munini cyane bigaragara ko afite umusatsi mwinshi, akaba afite n'igikapu mu ntoki, inyuma hakaba hari abandi bagabo bigaragara ko bose baje aho hantu hari kubera ikiganiro, hakaba hari n'ibyapa biranga ibyo bajemo, hakurya hakagaragara ibiti binini bikuze cyane.

Imberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi bo mu nzego zitandukanye, aho buri wese imbere ye hari mudasobwa ndetse n'icupa ririmo amazi, hakaba hari n'igikoresho ndangururamajwi bikaba bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro.

Inzu mberabyombi, aho bigaragara ko harimo abayobozi mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko hakaba harimo umukuru wacu w'igihugu Paul Kagame ndetse na madama we.

Abantu benshi bigaragara ko batandukanye ukaba ubona ko bari kugenda basanga umuntu wicaye, ari kubaha serivisi zitandukanye, aho hantu akaba hari amabara agiye atandukanye ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku n'umuhondo. Inyuma yaho hakaba hari ibiti ubona ko bikuze.

Imbaga y'abantu benshi cyane bigaragara ko bishimye, bakaba bafite ibirango bya FPR ndetse banambaye impozankano yabyo, aho bigaragara ko bazamuye amabendera bishimye bigaragara ko bari bari kwamamaza umukuru w'igihugu.

Inzu mberabyombi, bigaragara ko hari kuberamo inama. Aho bigaragaramo abayobozi banyuranye. Kuri buri mezi, hakaba hari icupa rigiye ririmo amazi. Umwe muri bo akaba ahagaze afite indangururamajwi, bigaragara ko ari gutanga ikiganiro.

Abantu benshi cyane bari ahantu hamwe bambaye impuzankano, aho bigaragara ko harimo inzego z'ubuyobozi zitandukanye, aho hagaragaramo inzego zishinzwe umutekano z'abasirikare ndetse n'inzego zishinzwe umutekano za polisi na RIB.

Umukuru w'igihugu ahagaze mu modoka, azamuye ikiganza, agenda asuhuza abaturage baje kumureba bakazunguza amadarapo ya FPR ndetse banambaye impuzankano za FPR, aho bigaragara ko n'umutwe umurinda umuri inyuma bita mu ndimi z'amahanga CTU wambaye impuzankano iburanga.

Imbaga y'abantu benshi cyane, bigaragara ko bishimye, bazamuye amabendera y'ishyaka rya efuperi, bakaba bambaye n'impunzankano ya efuperi, bigaragara ko bari kwamamaza umukandida wabo ari we perezida Paul Kagame.

Inzu mberabyombi hagaragaramo abayobozi batandukanye. Bamwe bakaba bambaye impuzankano. Aho kuri buri wese ku meza yicayeho, hari icupa ririmo amazi ndetse n'indangururamajwi. Bikaba bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro. Bakaba bicaye ku ntebe z'amakusi zisa imikara.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye bigaragara ko bishimye, baje kwamamaza umukandida wabo bishimiye his excellence Paul Kagame, aho bambaye ibirango bya FPR, bikaba bigaragara ko bateze amaboko bari kubyina.

Amazu manini cyane ubona ko ari icyitegererezo. Bikaba bigaragara ko atangirwamo serivisi zitandukanye, hakaba hagaragara n'umwirondoro w'ibihakorerwa ndetse hakaba n'ibyapa biranga ibikorerwa muri ayo mazu.

Mu muhanda nyabagendwa bigaragara ko harimo izuba riyinshi rikabije, aho ku nkengero z'umuhanda hari inzu z'ubucuruzi, hakaba n'ibiti by'ibirabo bikuze cyane hakagaragaramo umumotari udatwaye umugenzi. Ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo ibi imodoka nini bitwara imizigo ndetse n'imodoka nini zitwararira abagenzi hamwe, hakaba ari n'umunyamaguru uri kugenda ku maguru hakurya hagaragara ibiti binini bikuze cyane. Ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka nini yitwa imizigo ndetse n'imodoka nini itwara abagenzi hamwe, hakagaragaramo n'umunyamaguru uri kugenda mu kayira kabagenewe hakurya hakaba hari ibiti binini bikuze cyane bikikije umuhanda.

Nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo abamotari batwaye abagenzi, ndetse n'umunyonzi utwaye umuntu ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bikuze cyane hapfuragaba habona amazu atuwemo n'abantu ndetse n'amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka nini itwarira abantu hamwe ndetse n'abanyamaguru bari kugenda, hakurya hakagaragaramo inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo umuntu wambaye impuzankano ndetse n'imodoka nini n'intoya zitwarira abantu hamwe n'imoto zabugenewe mu gutwara imizigo, bikaba bigaragara ko umuhanda ufite amatara uwucaniye. Hakurya hakagaragaramo amashyamba.

Umuhanda nyabagendwa ugaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo imodoka nini yikoreye imizigo ndetse n'abamotari bayiturutse inyuma, ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bikuze cyane, hakaba hari n'amazu agiye ari ay'ubucuruzi, ikirere kikaba gifite ishusho isumwero.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo ikimodoka kinini kikoreye imizigo, ndetse n'imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe akaba ku nkengero z'umuhanda hari ibiti bikuze cyane ndetse n'umuntu uri kugenda n'amaguru yikoreye.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho bigaragara ko uwo muhanda harimo ikimodoka kinini gitwaye amazi, hakuno yaho hakagaragara ibiti binini cyane, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo abamotari batwaye abagenzi batandukanye, hakaba hanagaragaramo imodoka ntoya zitwararira abagenzi hamwe, hakurya haragaragara n'izindi modoka nini zitwarira abagenzi hamwe, hakagaragara n'amazu y'ubucuruzi ndetse n'amazu atuwemo n'abantu.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo ikimodoka cyabugenewe mu gutwara imizigo, hakagaragaramo n'abamotari batwaye abagenzi ndetse n'umunyonzi uri ku igare, n'imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe, ku mpande z'umuhanda hakaba hagiye hari amazu y'ubucuruzi, hakaba n'ibiti bikije umuhanda bikuze, ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, hakagaragaramo imoto yabugenewe yikorera imizigo ndetse ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bikuze cyane, imbere ukaba uhabona abantu bahagaze ndetse n'icyapa gikoreshwa mu muhanda.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ari nijoro, imodoka nini itwaye abagenzi iri kugenda icanye amatara ndetse n'amatara y'umuhanda bikaba bigaragara ko yacanwe, hakaba harimo n'abagenzi bari kugenda n'amaguru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ku gukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka ntoya itwaye imizigo, ndetse n'abamotari batwaye abagenzi, ku gice gihera hepfo hakaba ari ahantu haparitse imodoka ndetse hari n'amazu y'ubucuruzi atandukanye, hakaba hari n'ibiti bikikije umuhanda bikuze cyane, ikirere kikaba gifite ishusho y'iumweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho bigaragaramo ko harimo umunyonzi ucunze igare, hakaba hari n'imodoka nini itwarira abagenzi hamwe ndetse n'intoya zitwarira abantu hamwe, ku nkengero z'umuhanda hagaragaramo inzu z'ubucuruzi zikaba zifite ibyapa biranga ibyo bakora.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko udashushanyije nk'uko amategeko y'umuhanda abiteganya, hakagaragaramo abasore babiri bari kugenda n'amaguru, imbere yabo hari umukobwa kandi bikagaragara ko hakurya hari inzu ituwemo n'abantu, ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bikuze cyane, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Umuhanda nyabagendwara bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo imodoka nini itwariye abagenzi hamwe ndetse n'imodoka nini itwaye imizigo; ku nkengero z'umuhanda ahahera hepfo hakagaragara ibiti binini bikuze cyane ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru ku mpande ibumoso hakaba hari umuferege wifashishwa mu gutwara amazi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ikoreshwa mu byerekezo byombi, hakabamo imodoka nini itwara imizigo ndetse n'imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe hakurya hakagaragaramo inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti binini bikuze cyane ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi hakaba harimo abamotari ubona ko bari gushaka abagenzi akaba ari' imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe, hakozwe hakagaragaramo amazu atuwemo n'abantu atandukanye hagati y'amazu hakaba hagaragaramo ibiti binini bitozwe cyane hejuru hakagaragaramo n'insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi ziva mu gace kamwe zijya mu kandi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo abamotari batwaye abagenzi ndetse n'umuyonzi uri kugenda nta mugenzi atwaye, hakurya hakaba harimo n'ikimodoka kinini kikorera imizigo ndetse ku nkengero z'umuhanda hakaba ibiti binini bikuze cyane.

Umuhanda nyabagendwa igaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo imodoka nyinshi itwarira abantu hamwe, hakaba harimo n'abagenzi benshi bari kugenda mu byerekezo bitandukanye hakurya hagaragaraho imisozi iteyeho ibiti ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Umuhanda nyabagendwara bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo umunyamaguru acunze akantu kifashishwa mu gutwara imizigo ndetse n'umumotari utwaye moto, ku mpande hakagaragara inzu z'ubucuruzi zitandukanye hakaba haparitse n'imodoka ntoya itwarira abantu hamwe.

Imodoka nziza cyane isa umweru aho bigaragara ko iparitse ahantu ku mbuga y'ibyondo; hepfo yaho hakagaragara ko hari igipangu gituwemo n'abantu; hakurya hakagaragara n'izindi nzu zituwemo n'abantu.

Nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka nini itwaye imizigo ndetse n'abamotari batwaye abagenzi. Mu kayira k'abanyamaguru hakaba hari umunyamaguru uri kugenda hakurya ku muhanda hakagaragara ibiti binini bikikije umuhanda, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Umuhanda bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka nini itwarira abagenzi hamwe ndetse n'abamotari batwaye abagenzi, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti binini bikije umuhanda bikuze cyane.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo ibimoto binini byabugenewe byifashishwa mu gutwara imizigo iva mu gace kamwe ijya mu kandi; hakanagaragara n'inzu z'ubucuruzi zitandukanye, ku mpande z'umuhanda hakaba hari n'ibiti binini bikuze cyane.

Umuhanda nyabagendwa bigaragaza ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo ikimodoka kinini cyikorera imizigo ndetse n'abamotari bari inyuma batwaye abagenzi, hakurya hagaragara n'amazu y'ubucuruzi atandukanye, hakaba hari n'ibiti bikikije umuhanda binini bikuze cyane, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka nini itwaye imizigo ndetse n'umunyamaguru ari kugenda n'amaguru, inyuma hakaba hari imodoka ntoya itwarira abagenzi hamwe, ku mpande z'umuhanda hakaba ari n'abandi bagenzi bari kugenda n'amaguru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo moto nini yabugenewe yo gutwara imizigo ndetse n'imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe hakaba hagaragara ko ku nkengero z'umuhanda hagiye hari indabo nziza cyane zikikije umuhanda kandi hakurya hagaragara amazu atuwemo n'abantu.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka ntoya itwarira abagenzi hamwe, ndetse n'imodoka nini itwarira abagenzi hamwe. Hagaragaramo n'abamotari batwaye abagenzi ndetse n'abanyamaguru barikugenda n'amaguru. Ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bikuze cyane. Ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka ntoya itwarira abagenzi hamwe, ndetse ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti by'ibirabo bikuze cyane ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara kuri uri gukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo umunyonzi, nta mugenzi atwaye ndetse n'imodoka nini itwaye abagenzi, hakurya hakagaragaramo amazu atuwemo n'abantu ndetse n'indabo zikikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka nini itwaye imizigo, yo mu bwoko bwa Dayihatso, hakurya hakagaragara amazu atuwemo n'abantu, ndetse no ku nkengero z'umuhanda, hakaba hari amazu y'ubucuruzi, ikirere kikaba gifite ibicu byiganjemo umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho harimo umumotari utwaye umugenzi ku nkengero z'umuhanda bikagaragara ko hari ibiti binini by'indabo bikuze kandi ukaba ubona ko hakurya hari n'andi mazu akoreshwa nk'ayubucuruzi ndetse n'atuwemo n'abantu.

Imodoka nini itwara imizigo, bigaragara ko ziri kubisikana mu muhanda. Imwe imanuka indi izamuka, ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti binini bikuze cyane. Ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo imoto nini yabugenewe mu gutwara imizigo; hakagaragaramo n'abanyamaguru bari kugenda mu kayira kabo n'undi muntu wambaye impuzankano hakurya hagaragaramo ibiti binini bikuze cyane bikikije umuhanda.

Abamotari benshi cyane, bigaragara ko motoza zabo zicanye amatara, bakaba bambaye impuzankano, hakaba hari n'amazu y'ubucuruzi atandukanye, kuri aya mazu hakaba hariho n'ibyapa byenda biranga ibicururizwamo, bigaragara ko aho hantu ari mu mwijima.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo abamotari ndetse n'abari kugenda n'amaguru, hakagaragaramo imodoka ntoya zitwarira abagenzi hamwe, hakurya hakagaragara n'amazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye, ikirere kikaba gifite ishusho ifite ibicu byiganje umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka nini itwaye imizigo. Hakurya ku nkengero z'umuhanda hakagaragaramo ibiti bikuze cyane, ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru. Ku ruhande rw'ibumoso hakaba hari umuhora, bigaragara ko wifashishwa mu gutwara amazi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwamo mu byerekezo byombi aho hagaragaramo ikimodoka kinini kikoreye imizigo ndetse n'umuntu upakiye imizigo ku igare; hakaba hari n'imodoka ntoya zitwarira abagenzi hamwe; ku nkengero z'umuhanda hakaba hari amazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye aho kuri buri nzu hagiye hari icyapa kiranga ibikorerwamo ndetse n'imifuka y'ibintu itwikiriye.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwamo mu byerekezo byombi aho hagaragaramo abanyamaguru bari kugenda mu byerekezo bitandukanye ku mpande hakaba hari ari amazu y'ubucuruzi atandukanye hakaba n'ibyapa biranga ibikorerwamo ndetse n'indabo zikikije mu mazu zikuze cyane ikirere kikaba gifite ishusho isuru ndetse n'ibicu byiganje by'umweru.

Ikibuga ubona ko gikorerwamo siporo ngororamubiri, aho ubona ko hari inzu zihazikikije zitangirwamo serivisi zitandukanye, hakaba hari n'ibiti binini bikuze cyane, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

Ikibuga cyifashishwa bakora siporo ngororamubiri, aho hagaragaraho abakinnyi bicara ndetse hakurya hagaragaramo n'abantu bari kubaka ikibuga bambaye impuzankano, hakagaragara n'ibiti binini bikikije ikibuga, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru cyane.

Inzu nyinshi cyane bigaragara ko ari iz'icyitegererezo kandi zikaba zubatse ku mbuga ngari, ahubwo ni uko zitangirwamo serivisi zitandukanye, hakaba n'ikirango cyerekana ibikorerwa muri izo nzu.

Ikibuga cy'umupira ubona ko gifite ubwatsi butohagiye, aho hakurya bigaragara ko hari ibiti binini bikuze cyane ndetse, n'ibyapa bigiye byanditseho ibiranga aho ngaho, hakaba hari n'abantu bigaragara ko bicaye mu dutebe tugiye tuhakikije.

Ikibuga cy'umukino w'amaboko aribyo mu ndimi z'amahanga bita basiketi boro aho bigaragara ko kuri icyo kibuga hakikijwe n'amazu menshi atangirwamo serivisi zitandukanye ndetse n'indabo zihazengurutse zisa neza cyane.

Jaride nziza cyane iririmo indabo zitandukanye aho bigaragara ko harimo n'ikindi cyuma cy'umweru, bikaba bigaragara ko aho hantu ari mu kibuga, hakagaragaramo aho umufana yicariyemo yegamye. Hakurya hakagaragaramo ibiti bikuze cyane, ikirere kikaba gifite ishusho y'umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragara icyapa cyifashishwa m'umuhanda cyerekana ko ariho imodoka zigomba guparika, ikirango n'umweru ubuso ni ubururu umuzenguko n'umweru ishusho nirukiramende ikirere kikaba gifite ishusho isa uburu n'ibicu byibanje by'umweru.

Icyapa cyifashishwa mu mihanda kigamije kwerekana ko umuhanda utegetswe. Ikirango n'umukara, ubuso n'umuhondo, ishusho n'urukiramende.

Icyapa cyifashishwa mu muhanda, kigamije kwerekana ko mu muhanda hashamikiyeho undi muhanda, ikirango n'umukara, ubuso n'umuhondo, umuzenguruko ni uumukara, ishusho ni mpande enye zingana.

Icyapa kifashishwa mu mihanda kigamijwe kwerekana ko nta modoka nini zitwarira abagenzi hamwe zemewe kuhagarara. Ikirango ni umukara ubuso ni umweru umusenguruko ni umutuku ishusho ni uruziga.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ku nkengero z'umuhanda hari icyapa gikoreshwa mu muhanda kigamije kwerekana ko, abanyamaguru bemerewe gutambuka ikirango n'umweru. Ubuso ni umweru umuzenguko ni umutuku, ifite impande eshatu zingana, hakagaragara n'indi nzu ikorerwamo serivisi zijyanye n'irembo, hakagaragara n'amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi ava mu gace kamwe ajya mu kandi.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda, kiba cyerekana ko nta modoka ipakiye yemewe kuhanyura, ikirango ni umukara, ubuso ni umweru, umuzenguruko ni umutuku, ishusho ni uruziga.

Icyapa gikoreshwa mu mihanda kigamije kwerekana ko umuhanda utanyurwamo mu byerekezo byombi, ikirango ni umutuku ubuso ni ubururu umuzenguruko ni umutuku ishusho ni uruziga.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho bigaragara ko harimo imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe hakaba hari n'umunyamaguru kugenda n'amaguru kandi ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bikuze hakaba n'icyapa kiri ku muhanda cyerekana ko ibumoso hari koni ikirango n' umukara woso n'umweru umuzenguko n umutuku bisho ni uruziga

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho ku nkengero z'umuhanda hagaragara indabo ntoya ndetse n'ibiti binini bikuze cyane kandi hakaba hari n'icyapa gikoreshwa mu muhanda kigamije kwerekana ko mu muhanda hashamikiyeho indi mihanda ibiri kirangwa n'umukara ubuso n'umweru umuzenguruko ni umutuku ishusho ni mpande eshatu zingana hagaragaraho n'andi mazu atuwemo n'abantu ikirere kikaba gifite ishusho risa umweru.

Icyapa gikoreshwa ku muhanda nyabagendwa, aho kiba kigamije kwerekana ko abanyamaguru bemewe gutambuka, ikirango ni umukara, ubuso ni umweru, umuzenguko ni umutuku, ishusho ni mpande eshatu zingana.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kigamije kwerekana ko imodoka zemewe kunyuranwaho ikirango ni umukara ubuso ni umuhondo umuzenguko ni umutuku ishusho ni mpande eshatu zingana.

Ibiti binini cyane ubona ko byagundutse, aho hari icyapa kihegereye cyerekana ko mu muhanda hari ikoni iburyo. Ikirango ni umukara, ubuso ni umweru, umuzenguruko ni umutuku. Ishusho ni mpande eshatu zingana, ikirere kikaba gisa ubururu.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo motari ategereje umugenzi, ku nkengero z'umuhanda akaba ari amazu atuwemo n'abantu. K'uruhande rw'iburyo hakaba hari icyapa cyerekana ko nta modoka zemerewe kwaparika icyapa n'umukara ubuso n'umweru, umuzenguruko n'umutuku, ishusho ni uruziga.

Ibiti binini cyane, imbere yabyo hakaba hari icyapa kifashishwa mu muhanda cyerekana ko ibinyabiziga byegemerewe kunyuranwaho icyango n'umukara ubuso n'umweru umuzenguko n'umutuku ishusho ni mpande eshatu zingana hakaba n'i ikindi cyemerera abanyamaguru gutambuka ikirango n'umukara wose n'umweru ishusho n'impande nye zigana.

Icyapa gikoreshwa ku mihanda, aho kiba kigamije kwerekana ko abanyamaguru bemerewe gutambuka, ikirango ni umukara, ubuso ni ubururu, ishusho ni mpande enye zingana.

Ibimenyetso bimurika bikoreshwa mu muhanda, bigamije kwereka ko umuntu agomba gutambuka cyangwa ibinyabiziga bigomba gutambuka, hakurya y'aho hakagaragara ibiti byinshi cyane bikuze ikirere kikaba gisa umweru.

Indabo nyinshi cyane ubona ko zitohagiye, hakurya hagaragara ibiti byinshi cyane bikikije umuhanda nyabagendwa, hakaba n'icyapa gikoreshwa mu muhanda cyerekana ko ibumoso hari ikoni, ikirango n'umukara, ubuso n'umweru, umuzenguko ni umutuku, ishisho n'impande eshatu zingana.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda, aho kiba kigamije kwerekana ko nta modoka igomba kuhanyura irengeje umuvuduko wa kilometero mirongo ine mu isaha, hakaba hari n'izindi bigaragara ko zituwemo n'abantu ndetse harya hakagaragaramo'izindi nzu itaruzura neza.

Icyapa cyifashishwa mu muhanda kigamije kwerekana ko aho hantu bahanyura bazengurutse, ikirango ni umukara, ubuso ni umweru, umuzenguruko ni umutuku, ishusho ni mpande eshatu zingana, hirya yaho hagaragara igiti gifite amashami aganje menshi anyuranye.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda nyabagendwa aho kiba kigamije kwerekana ko iyo gicanye itara ry'umutuku ku muntu cyangwa ku kinyabiziga agomba guhagarara cyacana, umuhondo ku muntu cyangwa ikinyabiziga akitegura kugenda, cyacana icyatsi kibisi agatambuka niba aba ari umuntu cyangwa imodoka ikagenda. Ikirangi n'umukara ubuso n'umwe umuzenguruko n'umutuku ishusho n'impande eshatu zingana.

Icyapa cyifashishwa ku muhanda kigamije kwerekana ko iburyo bw'umuhanda hashamikiyeho undi muhanda. Ikirango ni umukara ubuso n'umuhondo, umuzenguruko ni umutuku, ishusho ni mpande eshatu zingana. Hakaba hirya yaho hari ibiti bikuze cyane ikirere kikaba gisa ubururu.

Icyapa cyifashishwa mu muhanda nyabagendwa. Kiba cyekana ko abanyamaguru bemerewe gutambuka, ikirango ni umukara, ubuso ni umweru, umuzenguruko ni umutuku ishusho n'impande eshatu zingana. Hakaba n'ikindi cyerekana ko umuhanda ufatiweho indi mihanda ibumoso n'iburyo. Ikirango ni umukara, ubuso ni umweru, uzenguruko ni umutuku, ishusho ni mpande shatu zingana hakaba hari n'ibiti binini bikuze cyane.

Amazu menshi y'ubwoko butandukanye, aho bigaragara ko hagati y'ayo mazu hagiye hari ibiti bikuze cyane, byifashishwa mu kuzana umwuka abantu bahumeka bakamererwa neza. Aho hantu bikaba bigaragara ko ari muri Remera ikirere kikaba gisa ubururu bwivanze n'umweru.

Ibyatsi byiza cyane bitohagiye ndetse n'ibiti bikuze hakurya hakagaragara amazu y'icyitegererezo atandukanye aho hagati y'amazu hari ibiti bitandukanye bikuze ikirere kikaba gifite ishusho isa n'ubururu ndetse n'ibicu byiganje umweru n'umukara.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho harimo imodoka ntoya itwarira abagenzi hamwe, hakurya hakaba hagaragaramo amazu atuwemo n'abantu, hakaba harimo n'ibiti hagati y'ayo mazu binini bigiye bikuze, byifashishwa mu gukurura umwuka abantu bahumeka, ikirere kikaba gisa ubururu ndetse n'ibicu byiganje umweru.

Ibizu binini cyane bitandukanye by'ubwoko, aho bigaragara ko izo nzu ari iz'icyerekezo, bikaba bigaragara ko izo nzu ziherereye mu gace bita mu Rwanda economical zone.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho bigaragara ko ku nkengero z'umuhanda hari abamotari baparitse amamoto, bigaragara ko bategereje abagenzi akaba ari n'amazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Inzu nziza cyane ubona ko yubatsekanye ubuhanga buhanitse aho ifite urugo rw'ibyuma ndetse imbere hakaba harimo n'indabo zitohagiye, cyane hakaba harimo n'ibiti bikuze ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Amazu menshi bigaragara ko atangirwamo serivisi zitandukanye aho agiye afite ibyapa biranga ibikorerwamo, hakaba hari n'umuhanda wubakishije amatafari hakagaragaramo n'imodoka ntoya itwara abagenzi hamwe ndetse n'indabo zikuze cyane, ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ku nkengero zawo z'umuhanda ko hari amazu y'ubucuruzi atandukanye, hakaba n'imodoka ziparitse ahantu hamwe, ndetse n'indabo zikikije aho ngaho ubona ko zifite isuku. Hakaba hari n'igiti kinini gikuze cyane. Kirere kiba gifite ishusho isa ubururu ndetse n' ibicu byiganje ibyumweru.

Amazu menshi cyane bigaragara ko atuwemo n'abantu, hakaba hari n'imirima ihinzemo ibigori ndetse n'amasina, hakaba hari n'ibiti bikuze cyane, ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu ndetse n'ibicu byiganje umweru.

Inzu nini cyane ubona ko ari inzu y'ikitegererezo, ikaba yegeranye, n'andi mazu zikaba zifite indabo nziza, zihakikije ikirere kikaba gifite ishusho y'umweru hejuru hakaba hari insinga z'amashanyarazi, zitwaye umuriro ziwuvanye mu mu gace kamwe ziwujyana mu kandi.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye. Aho ku nkengero zayo hagiye hari ibirabo bikuze cyane ndetse n'ibiti bikuze. Hakaba hari n'ibyapa, biranga ikikorerwa ahongaho. Ndetse hakaba hari n'ibyuma by'amashanyarazi byabugenewe bitwara insinga, z'amashanyarazi ziwuvana mu gace kamwe ziwujyana mu kandi.

Amazu menshi cyane atuwemo n'abantu, bigaragara ko hagati y'ayo mazu hagiye hari ibiti binini bikuze cyane byifashishwa mu kuzana umwuka abantu bahumeka ndetse hakaba ari n'igikoresho cyifashishwa mu gukurura amajwi ndetse n'amashusho, ikirere kikaba gifite ishusho yiganje y'ubururu.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho ku nkengero z'umuhanda hari abantu bambaye impuzankano hakaba n'indi nzu nini cyane itangirwamo serivisi zitandukanye hakaba hari ibyapa biranga ibikorerwamo akaba n'imodoka ndetse n'umuntu ufite igare.

Amazu menshi cyane atandukanye, bigaragara ko aho hantu hatuwe n'abantu benshi, hakagaragaramo n'ibiti byiganje bikuze, hakagaragaramo n'ikimashini cyifashishwa mu gukora imihanda ndetse n'inzu ntoya zitaruzura.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko harimo abamotari benshi ndetse n'imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe; hakaba harimo n'abanyamaguru benshi bari kugenda; hakaba hari n'inzu z'ubucuruzi zitandukanye ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye aho bigaragara ko hari ibiti bikikije iyo nzu bimeze nk'indabo, hakurya hakagaragara n'andi mazu atuwemo n'abantu ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Inzu nini cyane, bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko ifite imiryango myinshi inyuranye kandi buri muryango ukaba ufite icyapa kigenda kiranga ibikorerwamo, ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Umuhanda nyabagendwa, aho bigaragara ko hari abantu babiri bari kubisikanwa, umwe akaba ari kureba hakurya undi areba hino imbere ye, aho bigaragara ko hari inzu zituwemo n'abantu ubona ko ari iz'icyerekezo, ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru ndetse n'ubururu bwivanze.

Inzu bigaragara ko ituyemo umuturage, hakurya hagaragara n'andi mazu atuwemo n'abantu, aho kuri iyi nzu hazengurutswe n'indabo nziza cyane zitohagiye ndetse hakaba n'urugo rwubakishije ibyuma, iyo nzu bikaba bigaragara ko iherereye i Kigali muri Kanombe.

Inzu nini cyane ubona ko zitangirwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko imbere y'inzu ari ahaparitse imodoka, hakaba hari n'irembo rinini cyane rinyurwamo n'imodoka.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho ku nkengero z'umuhanda hari ahicaye abantu babiri bari kuganira, ahakana hepfo hakagaragaramo ishyamba rya Nyandungu, hakaba hari n'amatara amukira mu muhanda, ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Inzu nini cyane, ikorerwamo serivise zitandukanye, aho bigaragara ko kuri buri muryango hagiye hari icyapa kiranga ibikorerwamo, hasi hakaba haparitse imodoka ndetse n'umuntu uri kugenda, hakagaragara n'ibyuma bitwaye insinga z'amashanyarazi biyavana mu gace kamwe ziyajyana mu kandi, ikirere kikaba gifite ishusho y'ubururu n'ibicu byiganje umweru.

Inzu nini bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho hagarara umuhanda bigaragara ko ukuze ndetse hakaba harimo n'umumotari uhagaritse moto, hakaba hagaragara n'indabo zikikije iyo nzu.

Mu isangano ry'imihanda aho bigaragara ko harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka nto zitwara abantu hamwe ndetse na amamoto atwaye abantu, hakurya hagaragaramo amazu atuwemo n'abantu ndetse n'indabo zikikije umuhanda.

Isangano ry'imihanda itandukanye, aho mu muhanda hagaragaramo imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe, hagaragaramo n'amamoto atwaye abagenzi, ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti binini bikuze cyane, bikagaragara ko hari amatara amukira umuhanda hose, ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu n'ibicu byigange by'umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagiye hashamikiweho n'indi mihanda itandukanye, hakaba hagaragara imoto zitwara abagenzi ndetse n'ibyapa bimurika mu muhanda, ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bikuze cyane ndetse no hakurya hakagaragaramo amazu atuwemo n'abantu.

Ni ihuriro ry'imihanda myinshi itandukanye, aho bigaragara ko iyo mihanda ikoreshwa mu byerekezo byombi, hakagaragaramo abamotari babiri batwaye abagenzi ndetse ku nkengero z'imihanda hakaba hari ibiti bikuze cyane.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi ,aho bigaragara ko harimo abamotari batwaye abagenzi, ndetse hakagaragaramo n'imodoka itwara imizigo, kandi hejuru ukabona ko hari ikiraro, imodoka zinyuraho hakurya hakaba n'ibiti bikuze cyane ku nkengero z'umuhanda ikirere kikaba gisa umweru.

Umuhanda ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo abamotari batwaye abagenzi, ndetse n'icyapa gikoreshwa ku muhanda cyerekana ko nta kinyabiziga kemewe kuhanyura kirengeje ibiro bingana namagana tandatu mirongo ikenda numunani, ikirango n'umukara ubuso n'umweru, ishusho ni urukiramende.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi. Hakaba hari igice cy'umuhanda kigaragara ko ari aho abanyamaguru bemerewe gutambuka ndetse hakaba hari n'imodoka imbere yabo ntoya itwarira abagenzi hamwe, ndetse n'umumotari utwaye umugenzi, hakurya hakagaragaramo ibirabo binini bikuze cyane, ndetse n'ibiti, n'inzu zitangirwamo serivisi zitandukanye, ikirere kikaba gisa umweru.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye, aho bigaragara ko harimo imodoka nini itwarira abagenzi hamwe ndetse n'abamotari batwaye abagenzi. Hakurya hakagaragaramo ibiti bikuze cyane, ndetse no ku rundi ruhande hakagaragaramo amazu y'ubucuruzi atandukanye. Kuri buri nzu hakaba hari icyapa kigenda kiranga ibikorerwamo, hakaba hanaparitse amamodoka menshi cyane. Ikirere kikaba gisa ubururu n'ibicu byiganje umweru.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe ndetse hakagaragara n'abanyamaguru bari kugenda, hakurya hakaba hari ibiti binini bikikije umuhanda, ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu ndetse hakagaragara n'amazu atuwemo n'abantu.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo abagenzi bari kugenda n'amaguru ndetse n'imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe, bikaba bigaragara ko ku nkengero z'umuhanda hari ibiti binini cyane bikikije umuhanda kandi bikaba bigaragara ko hari amatara acanira umuhanda.

Inda nyabagendwa igaragara ko ukoreshwa mubwira ikibazo bombi aho bigaragara ko harimo abanyamaguru bari kugenda ndetse hakaba hari n'ikiraro gica hejuru y'umuhanda abantu batambuka batambuka hejuru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukorera mu byerekezo byombi, aho hagaragara n'ikimodoka gitwara imizigo ndetse n'umumotari utwara umugenzi, hakurya hagaragaramo n'intebe abantu bicaramo bategereje imodoka. Hakaba n'ibiti bikikije umuhanda binini, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

Umuhanda ukoreshwa mu byerekezo byombi aho bigaragara ko umuhanda ucaniwe mu buryo bwose, hakaba hagaragaramo imodoka ntoya zitwarira abagenzi hamwe ndetse n'ibinyabiziga binini byagenewe gutwara imizigo.

Mu isangano ry'imihanda itandukanye, aho bigaragaramo ibinyabiziga bitoya bitwarira abantu hamwe ndetse n'abamotari batwara abagenzi, hakurya hagaragara ibiti binini bipfutse cyane ndetse no hagati mu muhanda, hakaba harimo indabo zabugenewe ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragara ko hari indi mihanda ishamikiyeho, hakagaragaramo imodoka ntoya itwara abagenzi hamwe, ku mpande z'umuhanda hakaba hari ibiti by'ibirabo bikuze cyane, ikirere kikaba gisa ubururu n'ibicu by'umweru byiganje, umuhanda bikaba bigaragara ko ucanirwa mu byerekezo byombi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo ikimodoka kinini gitwaye imizigo ndetse n'imodoka ntoya zitwarira abagenzi hamwe, ku nkengero z'umuhanda hakaba hari akazu abagenzi bicaramo bategereza imodoka kandi hakaba n'ibiti bikikije ku nkengero z'umuhanda bikuze cyane.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, bikaba bigaragara ko harimo icyuma gifite ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kongera umuriro w'amashanyarazi ndetse no mu kuwugabanya, hakagaragara indabo nyinshi zitatse aho hantu, hakaba hari n'ibyapa ku muhanda biranga ibikorerwa aho ngaho.

Mu isangano ry'imihanda itandukanye aho bigaragara ko hari n'ibiti bigiye bikikije umuhanda, hakurya hagaragara amazu atuwemo n'abantu, kandi hakaba hagiye harimo n'ibiti bigiye biri hagati y'amazu ikirere kikaba gisa umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko uwo muhanda ukoreshwa mu byerekezo byombi aho bigaragara ko harimo abanyamaguru bari kugenda n'amaguru ndetse n'abanyamagare bikaba bigaragara ku mpande arinze z'ubucuruzi ndetse n'ibyapa biranga ibyo bakora.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho bigaragara ko ari nijoro hakaba harimo moto zitwaye abagenzi, bikaba bigaragara ko zicanye amatara kandi umuhanda ukaba ubona ko umurikiwe mu mpande zose kandi hakaba hagaragara ko hejuru harimo undi muhanda ufatiyeho.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, hakaba hari akayira k'abanyamuhanda kari kunyuramo umunyamaguru hakaba hagaragara ikiraro hejuru kiriho undi muhanda, ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru hakurya hagaragara n'izindi modoka ntoya zitwararira abantu hamwe.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo umunyonzi udatwaye umugenzi ndetse n'imodoka ntoya zitwariye abantu hamwe, hakaba harimo n'imoto, hakaba hakikijwe n'ibiti binini cyane ndetse hakaba hari n'amazu atuwemo n'abantu.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho ku nkengero z'umuhanda hagaragaramo ibiti bikutse ndetse n'amazu akorerwamo ubucuruzi, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byebyerekezo byombi aho hagaragaramo imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe ndetse n'imodoka zitwaye imizigo, hakagaragaramo n'abanyonzi ndetse n'abamotari batwaye abagenzi bakaba bagiye guca munsi y'ikiraro, hejuru ku kiro hakaba hari n'undi muhanda, hakaba harimo ibiti bikuza cyane ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

Umuhanda nyabagendwa igaragara ko ikoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo imoto zitwaye abagenzi ndetse n'amagare. Hakaba hari n'imodoka nini zitwarira abantu hamwe. Ku mpande z'umuhanda hakaba hari ibiti bikuze cyane, ndetse n'ibyapa byerekana ibikorerwa aho ngaho.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo imodoka ntoya itwara abantu hamwe ndetse n'umumotari utwaye umugenzi ku nkengero z'umuhanda hakaba ari ibiti bikuze cyane hakaba n'igice umupolisi ahagazeho.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi. Hakagaragaramo, aho abanyamaguru batambuka. Kandi hakaba hari abamotari baparitse ku mpande benshi bigaragara ko bategereje abagenzi. Hakaba hari n'ibiti binini bikikije umuhanda ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.